Umubyeyi ari kuvoma amazi meza, akaba ari kuyavomera mu ndobo ndetse inyuma ye hari abandi babyeyi babiri bari gupomba amazi.

Abantu bari mu nama ndetse bakaba bicaye ku ntebe nziza, bari kwiga ku bibazo binyuranye bigenda byugariza ubuzima bwo muri iyi minsi.

Abantu benshi cyane bari imbere y' icyapa icyo cyapa kiri iruhande rw'inyubako yubatswe n'amatafari ahiye cyanditseho amagambo ahinnye y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima RBC bari gufata ifoto.

Ikintu kimeze nk'ikigega kikaba kiri ahantu hameze nko mu ishyamba ndetse hakaba hirya imbere hari itara rirerire rimeze nka rya rindi ricana ku muhanda.

Umubyeyi uteruye umwana ufite igipapuro mu ntoki ndetse inyuma ye hakaba hari abandi babyeyi bicaye, bose bateruye abana babo bisa nk'aho baje kwa muganga gukingiza cyangwa kuvuza abo bana.

Ababyeyi bazanye abana babo ku mujyanama w'ubuzima, uyu mujyanama w'ubuzima, ari kubapima akamenya imikurire yabo ndetse n'ibindi bibazo by'ubuzima bafite.

Abaganga babiri barimo kwita ku murwayi urwaye amenyo ndetse bigaragara ko habayeho igikorwa cyo gusanga abaturage aho batuye kugira ngo babasuzume ndetse babavura amenyo, kuko inyuma hirya y'itente hari abandi baturage batonze umurongo.

Icyapa kinini cyanditseho imibare ndetse hakaba hariho ibintu by'ibizeru bituzuye neza, mirongo itanu na gatanu ku ijana bibiri na cumi n'umunani, mirongo irindwi ku ijana bubiri na cumi n'icyenda, mirongo irindwi na gatandatu ku ijana bibiri na makumyabiri, mirongo irindwi n'icyenda ku ijana makumyabiri na rimwe.

Umuganga ari imbere yi'mashini ndetse yambaye agapfukamunwa, ateze ikimeze nk'ingofero cyangwa igitambaro, yambaye itaburiya ari kureba muri ibyo byuma by'ikoranabuhanga, bisa nk'aho hari ibyo ari gupima.

Ubuzima bukwiye guhagurukirwa ndetse bukitabwaho mu buryo bwose bushoboka, kuko muri iyi minsi hari ibyorezo ndetse n'indwara zibasiye ikiremwamuntu.

Abana bambaye inifomo bose bari kuri robine buri wese arunamye ari gukaraba amazi meza ndetse hari indobo eshatu z'umuhondo bigaragara ko nibamara gukaraba barajyana amazi muri izi ndobo bakajya no kwiyuhagira.

Ku ivomero rusange hahuriye abavomyi benshi gusa biganjemo abana, hari amajerekani y'umukara ay'umweru n'ay'umuhondo. Hari umuntu ku ruhande gatoya wifashe mu manyanyinya ndetse hari n'undi uri gupomba amazi.

Abana bari kuvoma amazi ku mugezi, ariko uwo mugezi biragoye kuwuvomaho kuko ni wa w'undi abantu bavoma babanje gupomba inyuma kugira ngo amazi meza aze.

Abamama babiri baje kuvoma amazi ku ivomero rusange hari amajerekani menshi ateretse ategereje kuvomerwamo.

Ababyeyi babiri bari kuvoma ndetse bari gupomba amazi, undi umwe ari imbere ateze indobo ku mugezi ndetse hari kuza amazi meza.

Umusaza wambaye agapfukamunwa, akaba yazamuye ukuboko k'umupira yambaye ndetse muganga ari kumutera urushinge, uwo muganga ni umukobwa mwiza, wambaye itaburiya y'umweru, hirya ye hari undi muganga w'umusore, akaba yambaye amarinete.

Umuganga bisa nk'aho ari inzobere kuko ndi kubona atari umunyafurika, ahubwo ni umuzungu cyangwa se umwera. Ari imbere y'abandi baganga bambaye amabaji y'akazi, ari kubagira inama.

Igikamyo kinini cyane kizwi nka rukururana gikunze kwifashishwa kijyana imyaka cyangwa ibicuruzwa hanze y'igihugu kikaba kiri mu muhanda kiri kugenda, uyu muhanda ni uwa kaburimbo.

Abantu bari mu nama ndetse bakaba bari kwiga ku bibazo by'ubuzima bigiye bitandukanye bigaragara ko hari umuntu umwe uri kubaganiriza.

Umuganga ari gutera urushinge umwana mutoya, bisa nkaho hari indwara ari kumurinda. Mu by'ukuri ni byiza cyane ko dukingiza cyangwa tugateza inshinge abana bacu.

Umubyeyi uteruye mwana akaba ari kuvoma amazi, ndetse hari indobo y'umukara iteretse ifite umukondo akaba ariyo aributwaremo ayo mazi, mu bigaragara byo akeneye amazi meza yo gukoresha mu rugo.

Isuku ni nziza ndetse ni ingenzi by'umwihariko isuku y'ibikoresho byifashishwa dufata amafunguro, amasahani yozwa neza akanikwa ahantu habugenewe kugira ngo yumuke, hanyuma ajyanwe mu nzu azakoreshwe.

Ivomero rusange ryahuriweho n'abantu benshi baje kuvoma ndetse irivomero risa nkirigoye kuko bisaba gupomba kugirango amazi aboneke.

Abantu benshi cyane bakunze kudushishikariza kurya indyo yuzuye ariko ni byiza cyane kubishishikariza ndetse no kubigaburira abana.

Abantu bambaye imipira isa bose bakaba bari gukora akarima k'igikoni aho bafashe imboga bari kuziteramo, harimo na polisi bigaragara ko baje kwigisha abaturage kwimakaza kurya indyo yuzuye.

Umuganga mpuzamahanga ari kumwe n'undi munyarwanda, uwo w'umunyarwanda, ni umugabo wambaye ikote ryiza ry'umukara na karuvati nziza, ndetse akaba afashe ku kintu kimeze nk'igikapu cyanditseho viziti Rwanda, n'uwo muzungu w'umugore agifasheho.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako yo kwa muganga iri ahantu hitegeye hejuru hari ibintu bimeze nk'ibigega ndetse hakaba hari utwatsi twiza cyane twa pasiparume.

Abantu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ndetse harimo n'abagabo bambaye amakaruvati n'amakote meza bicaye bazengurutse ameza manini cyane ndetse buri muntu wese imbere ye hateretse igikombe cy'icyayi bari mu nama.

Abana bari ku mugezi; bari kuvoma amazi meza; bazanye ubuvido butoya akane; akatatu ndetse n'akarindwi harimo na karitiro, ariko inyuma y'aho kuri robine hari umuntu mukuru w'umugore ari kubapombera amazi.

Umubyeyi ateruye umwana we ari kumusimbiza ndetse yambaye agapfukamunwa k'ubururu afite n'iherena rinini ku matwi ndetse iruhande rwe hari umuntu nanone w'umugabo uteruye akana mu ntoki, wambaye agapfukamunwa k'umukara.

Abana batatu batonze umurongo bose bambaye inifomo zisa, bari imbere ya robine ndetse izo robine na zo ni eshatu, bagiye gukaraba ndetse bigaragara ko mu ntoki zabo harimo ifuro ry'isabune.

Umwana ateze amaboko kuri robine ari gukaraba ndetse imbere ye hari amajerekani y'umuhondo n'indi y'ubururu, ayo majerekani yose akaba ategereje kuvomwa mo amazi meza yo gukoresha mu rugo.

Abantu benshi, bari mu nama. Bakaba bari kumwe n'umuganga ndetse akaba ari ababyeyi, bari kumwe n'abana babo. Bigaragara nk'aho bazanye abana babo kubasuzumisha.

abana b'abanyeshuri bari kuri robine ndetse bari gukaraba intoki umwe muri bo akaba yazamuye ibiganza bye ari kwerekana ko amaze gukaraba neza.

a=Abantu b'ababyeyi bari guhamiriza inyuma yabo hari intebe ebyiri z'umweru ndetse bisa nk'aho bari mu munsi mukuru, uyu munsi mukuru ukaba ari uwo kwita ku buzima bwa muntu.

Abantu benshi cyane b'abana bari gukaraba intoki n'amazi meza kuri robine, iruhande hateretse indobo z'umuhondo bisa nk'aho nibamara gukaraba barahita bavoma amazi meza.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako yabereyemo inama ndetse muri iyi nyubako hari intebe zigiye zitandukanye, hari umuganga wifashe mu manyanyinya akaba ari imbere y'undi muntu umeze nk'umurwayi.

Umumama wikoreye jerekani akaba ari ijerekani y'umuhondo ipfundikije agapfundikizo k'umutuku, bisa nk'aho avuye kuvoma amazi. Imbere ye hari abana babiri, iruhande rw'ibumoso hari umukobwa urw'iburyo hari umuhungu.

Ni byiza gutoza abana batoya gukaraba intoki igihe cyose bavuye ku bwiherero cyangwa se bavuye gukora imirimo igiye itandukanye, umwana mutoya ari gufungura indobo isa nkaho yagenewe gukarabya abantu.

Muganga afite urupapuro, ari kuruhereza umurwayi. Afite n'urundi mu ntoki, bisa nkaho hirya hari undi murwayi uri kurumwaka nubwo we atarahindukira ngo amubone

Abana baje ku mugezi baje kuvoma amazi ijerekani y'umuhondo iteretse imbere ikaba itari kujyamo amazi iruhande hari umwana wambaye nk'abashumba, wiyambariye umupira utukura ndetse n'ibibote.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura, ni amagambo yanditse ku kibanderori kinini kiriho n'andi magambo hejuru ari mu ibara ry'umweru yanditse agira ati: "rbc", gifashwe n'abantu b'urubyiruko benshi.

Intoki z'umuganga ziri kugaragara zisa nkaho ziri gusuzuma akantu ndetse zambaye uturindantoki turi mu mabara y'iroza.

Ifoto y'ibintu bishushanyije biri mu mabara y'umukara, ay'umutuku ndetse n'amagambo yanditseho bigaragara ko ari umuti ukoreshwa mu buvuzi.

Ubushakashatsi cyangwa se raporo ya bibiri na makumyabiri na gatatu, ikaba yaragaragaje ko abana benshi bitabiriwe ndetse bibasiwe n'indwara zigiye zitandukanye.

Abana beza cyane batoya ariko batari ibitambambuga, bambaye imipiri isa yanditseho amagambo y'icyongereza y'impene Unicef. Akaba ari umuryango w'abibumbye ushinzwe kwita ku bana ku rwego rw'isi.

Abaganga bagera muri batanu baricaye, bicaye imbere y'ameza, ameza ateretseho ibintu by'imiti ndetse bakaba bari kwifatira agafoto.

Umubyeyi ari kuvoma amazi, ari kuyavomera mu ndobo ndetse inyuma kuri robine hari abandi bantu b'abagore babiri bari gupomba amazi, mu by'ukuri aya mazi ni yayandi aturuka ikuzimu.

Abantu baje kuvoma ndetse bari kuvoma kuri robine iy'i robine ikaba ari iy'ipombo umwe ari inyuma ari gupomba amazi abandi bari ku ruhande barategereje bateruye abana ndetse hari n'umwana w'umusore cyangwa se w'umuhungu uri gutega amazi mu ijerekani.

Abaganga ni abantu bagira uruhare mu gutuma abaturage bose babasha guhabwa ubuvuzi ndetse n'inama zigiye zitandukanye z'ubuzima, hari abaganga benshi bahuriye mu nama ndetse nyuma y'inama bafata iyi ifoto imbere y'icyapa kinini, kiri mu mabara y'ubururu.

Umurwayi ari guterwa urushinge na muganga, uyu muganga yambaye uturindantoki ndetse bigaragara ko ari kwitondera ibyo ari gukora kugira ngo hatagira ingaruka ziba ku murwayi.

Ibiganza by'umuntu uri gukaraba amazi meza ndetse iruhande ha ruguru gatoya hateretse isabune nziza cyane y'umweru, bitwereka ko ari byiza gukaraba amazi meza ndetse n'isabune.

Ivomero rusange ryo mu mudugudu ryahuriweho n'abaturage benshi aho baje gushaka amazi meza, bamwe bari kuvomera mu ndobo, abandi mu majerekani ndetse no mu tuvido.

Umwana mutoya wambaye akantu gatukura, akaba ari kwikarabira amazi meza ariko kuva muri robine. Mu byukuri ni byiza gutoza abana batoya gukaraba intoki zabo.

Ku mugezi hari abavomyi abo bavomyi bafite amajerekani bakaba bayateze kuri robine bakaba bategereje ko yuzura ngo bayacyure.

Abantu bicaye ku ntebe, bazengurutse, hakaba hari imodoka iparitse iruhande gatoya, bari imbere y'inyubako yo kwa muganga, harimo n'umudaso, bari kuganira ku bibazo by'ubuzima, bamwe bafite amakayi bari kwandika.

Umubyeyi yazanye umwana we kwa muganga ndetse ari kumwe na se, ni byiza gufatanyiriza hamwe nk'ababyeyi mwese mukita ku mwana. Imbere yabo hari umuganga ufite ikaramu ndetse ku meza imbere ye hari ibipapuro byinshi.

Abana bazamuye amaboko bose bakaba bayatunze kuri robine, bisa nk'aho bari gukaraba, mu byukuri ni byiza gushishikariza abana gukaraba intoki zabo.

Abantu benshi cyane bazengurutse ameza imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, harimo abagabo n'abagore ndetse na bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye, irimo amabara y'umukara n'umweru bose bakaba bari kwiga ku buzima.

Abana bari kuvoma amazi kuri robine y'ipombo bahateretse ubuvido buri kujyamo amazi, inyuma hari umuntu w'umukobwa uri kubapombera amazi.

Inyubako nziza cyane, ikaba isa nk'aho itanga serivisi z'ubuvuzi, inyuma yayo hahinguka izindi nyubako zimeze nk'iz'abaturage ndetse bikaba bigaragara ko ari ahantu mu gace.

Umumama ukenyeye igitenge wikoreye amazi mu idomoro y'umuhondo, afite n'indi domoro y'umuhondo mu ntoki, akaba agiye kuvoma ndetse amazi meza.

Umuntu yipfutse mu maso wambaye agapira k'umukara bisa nkaho afite ibibazo byo mu mutwe ndetse akaba akeneye serivisi z'ubuvuzi butandukanye harimo kuganirizwa ndetse n'ubundi butandukanye.

Umugabo wicaye ku kabaho gatoya afite umusatsi mwinshi wamwereyeho, yambaye igipantaro gisa nabi ndetse ahagaze hejuru y'inkweto, imbere ye hari ababyeyi batatu n'undi umwe utari kugaragara neza, afite ikibazo cyo mu mutwe bagiye kumuganiriza.

Umuntu w'umubyeyi washinyirije wazinze isura yazanye impinkanyari gusa ari gukanura amaso, yambaye amaherena ariko bisa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye kwitabwaho, kuganirizwa no guhabwa ubuvuzi.

Umurwayi wo mu mutwe benshi bakunze kwita umusazi agira imyitwarire idahwitse aho ushobora gukusanya ibyamvagarara ndetse n'ibyenda byacikaguritse byose akabyizirika abakenye ubuvuzi no kwitabwaho.

Umugabo bisa nk'aho ari umusazi, yiteye umwitero w'umuhondo, ari gushinyika amenyo nubwo ari ibihanga, afite icumu rizamuye mu kirere, akaba akeneye ubuvuzi bwo mu mutwe.

Umubyeyi ukiri mutoya bisa nkaho ari kumwenyura. Gusa nubwo amwenyura ntago yishimye ahubwo afite ikibazo cyo mu mutwe, akeneye kwitabwaho kuko bisa nkaho ari guseka ubusa.

Umugabo umeze nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe yicaye ku gatebe, ari imbere y'ababyeyi. Aba babyeyi bari kumuganiriza, gusa bisa nkaho umwe muri bo ari umujyanama w'ubuzima.

Nibyo biragaragara uyu ni umubyeyi ufite ikibazo cyo mu mutwe kuko aricaye kandi bigaragara ko yigunze ndetse asa nk'uwihebye, ibitekerezo bye biri kure cyane, uyu nguyu akeneye ubuvuzi bwihariye.

Inyubako nziza cyane ikaba irimo icyumba cy'inama hateraniyemo abantu benshi bicaye ku ntebe nziza, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikapu hari n'umuntu uri kubaganiriza ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'indwara zifata ubwonko.

Umuganga yicaye imbere y'ababyeyi babiri bambaye udupfukamunwa, aba babyeyi bafite ibibazo byo mu mutwe bakaba bari kuganirizwa n'uyu muganga.

Abantu bari mu nama ndetse bakaba ari benshi, biganjemo abambaye imyenda y'ubururu ndetse harimo abagabo bambaye amakoti y'umukara, iyi nama ikaba iri kwiga ku bibazo byo mu mutwe.

Abantu benshi cyane bahuriye mu gikorwa cyo kwamamaza ndetse no gushishikariza abantu kurwanya ihohoterwa kugira ngo twirinde, aho bafite icyapa cyanditseho ngo kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye.

National Wide Expansion bibiri na cumi n'umunani, bibiri na makumyabiri, ni amagambo y'Icyongereza yanditse ku kintu cy'icyapa bari kutwereka, ndetse hagati harimo abantu bicaye n'abandi bahagaze.

Ubuzima bwo mu mutwe bukwiye guhagurukirwa turi kubona amagambo menshi cyane agiye yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndetse harimo agaragaza ko umuntu yakiyahura cyangwa agakoresha ibiyobyabwenge n'ibindi bigiye bitandukanye ibyo byose bigaragaza ko tugomba guhagurukira ubuzima bwo mu mutwe tukabyitaho.

Ihuriro ry'abantu benshi cyane biganjemo abambaye imyenda y'umweru ndetse bambaye neza cyane, bakaba bari bari kwiga ku bibazo byo mu mutwe ndetse n'uburyo bafata neza ubuzima bwo mu mutwe.

Umurwayi ari kwa muganga muganga afite igikoresho kimeze nk'icyuma ariko ari kukijyana akiganisha mu kanwa k'uyu murwayi, uwo murwayi ari kwerekana amenyo bisa nkaho bari kumukorera ubuvuzi bw'amenyo.

Muganga ari kuvura umurwayi ndetse uyu murwayi afite ikibazo cy'amenyo bisa nk'aho bari kumuhandura amenyo cyangwa se bari kuyakura.

Muganga arimo kuvura umurwayi ndetse uyu murwayi afite ikibazo cy'amenyo, bisa nkaho bari kumukuramo amenyo ndetse uyu muganga ari gukoresha ibyuma byabugenewe.

Umugabo afite isume, iyo sume izinze neza yayishyize ku rutugu ndetse iri kurereta imbere ku matuza, afite urudodo mu ntoki ze, ari kurukoza mu menyo, bisa nkaho ari kurwifashisha akuramo imyanda yafashe mu menyo.

Umugabo ubona ko akiri mutoya afite akadodo cyangwa akagozi, ari kugacisha mu menyo ye hagati no hagati bigaragara ko ari kuyasukura, mu buryo bwiza bwo kutagira umwanda na muke asigamo.

Umwana ndetse n'undi muntu mukuru bose bafashe umugozi cyangwa urudodo bari kurukoza mu menyo yabo ndetse bigaragara ko bari kutwigisha uburyo wasukura amenyo ukoresheje urudodo cyangwa umugozi.

Inyubako yo kwa muganga ifite ibyuma by'ikoranabuhanga rigezweho ryifashishwa mu kuvura abarwayi no kubasuzuma, bityo bigatuma abantu benshi ubuvuzi bubageraho.

Gukaraba ni byiza ariko tukibuka koza n'amenyo, by'umwihariko tugomba gutoza abana batoya gukoresha uburoso n'umuti wabugenewe korogate igihe basukura amenyo yabo.

Ubuvuzi bw'amenyo bukomeje gutera imbere ku buryo abaganga basigaye begera abaturage, bakajya aho bari bakubaka amatente, bagatumizaho abaturage, bakabasuzuma ndetse bakanabavura.

Umuganga amaze gukura umurwayi iryinyo, aho yarikuye hasigaye igihanga ndetse hari kuva amaraso, iryinyo yarifatishije utwuma tubiri arimo araryereka.

Umuntu w'igitsina gabo, ari koza amenyo ye akoresheje akagozi cyangwa se akadodo, bikaba bigaragaza ko ari byiza gukoresha ubu buryo kuko budufasha gukuramo imyanda yose yafashe mu menyo, igihe twaryaga.

Umuntu w'umugabo, yambaye igipira cy'umukara, gifite akarongo k'umweru kamanutse mu nda, ndetse n'akandi gatambitse ku kuboko, ndetse imbere ye bigaragara ko ari kwireba muri miriwari kugira ngo asukure amenyo ye.

Intoki z'umuganga zambaye uturindantoki ziri gukora ku kintu cy'igishushanyo cyangwa cy'ikibumbano, icyo kibumbano n'icy'amenyo ndetse bisa nkaho ariko kutwereka uburyo yifashisha ahandura amenyo.

Amenyo ni igice cy'umubiri w'umuntu gikomeye cyane kuko yifashishwa igihe umuntu akanja ibiryo kandi ibyo biryo ni n'ibyo bimufasha kubaho kuko n'ibyo bivamo amaraso n'intungamubiri zitandukanye, ni byiza ko twita ku menyo yacu tukayarinda indwara.

Abantu bakuze bageze mu zabukuru bakeneye kurya ibiryo bitandukanye bikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye ndetse bashobora kurya ibikomoka ku mavuta ndetse n'izindi mbuto, amandazi, amakeke, imigati n'ibindi.

Umusaza ugeze mu zabukuru afite akantu kameze nk'akuma ko guterura mu kuboko kwe kw'iburyo ndetse hari umuganga ufashe uko kuboko, bisa nk'aho ari kumwereka uburyo agenda akazamura.

Umusaza ugeze mu zabukuru ari kumwe n'umukecuru we bose bafite imvi z'uruyenzi, umukecuru afite agapapuro, umusaza afite ibinini mu kiganza bisa nk'aho agiye kubinywa.

Umusaza ugeze mu zabukuru ari kumwe n'umukecuru we bicaye imbere y'ameza, ku meza hateretse amazi ndetse n'uducupa turimo imiti, umukecuru afite urupapuro, ari gusomera umusaza uburyo bwo kunywa imiti n'ibinini.

Abakecuru babiri bageze mu zabukuru barimo umwe ufite imvi, bari gukora siporo kugirango bafashe ingingo zabo ndetse n'imitsi yabo gukora neza.

Umuganga w'umugabo yita ku barwayi, ndetse n'w'umugore akabitaho, gusa buri wese akwiye guhagurukira kwita ku buzima bw'umurwayi ugeze mu za bukuru, kuko abageze mu za bukuru bagira indwara nyinshi.

Umusaza w'umuzungu wambaye agapira k'umukara ari kumwe n'umukecuru ufite imvi z'uruyenzi wambaye urunigi mu ijosi, akaba yambaye n'agapira k'umutuku karimo uturongo tw'umukara bakaba bagiye kunywa imiti.

Abasaza bakeneye kwi tutibagiwe n'abakecuru, mu by'ukuri turabona umukecuru ugeze mu za bukuru bari guha imboga ndetse n'imbuto.

Umusaza ugeze mu zabukuru ubyibushye rwose bifatika, ni umusaza w'igikara ndetse yicaye ku ntebe ya pulasitike arenda kuyitutsa, umuganga ari kumufungira ibipesu bisa nk'aho ari kumupima umuriro.

Umusaza ugeze mu zabukuru ufite imvi z'uruyenzi akaba ari gukora siporo ari gufashwa n'umuganga amwereka uburyo abikoramo, ni byiza ko abakuze bakora siporo kugira bagire ubuzima bwiza.

Abasaza babiri, barimo uwambaye amarinete, n'ingofero y'urugara, ndetse bose bakaba bakenyeye imyitero. Mu by'ukuri inyuma yabo hari abandi basaza n'abakecuru benshi, bisa nk'aho baje mu munsi wabo.

Umusaza ugeze mu zabukuru, wambaye agapira k'ubururu, agakabutura k'umukara, ari gufashwa n'umukobwa bisa nkaho ari umuganga, wambaye imyenda y'imikara. Akaba ari kumufasha kugendera mu kantu k'ibyuma bibiri, kimwe ibumoso ikindi iburyo.

Umukecuru ugeze mu zabukuru ari kurya ibiryo byiganjemo imbuto, imboga, ndetse ibi biryo bikaba biri ku isahani nziza y'umweru.

Umusaza ukuze ugeze mu za bukuru, yicaye mu kagare ari gusunikwa n'umuganga ndetse uwo muganga bisa nk'aho hari ikintu ari kwitegereza hejuru ku gikuta, bisa nk'aho ari gusuzuma uyu musaza.

Umukecuru ugeze mu zabukuru wambaye umushanana ndetse n'agashanete ku kuboko, akaba afite n'ikimeze nk'urunigi mu ijosi kiri mu mabara y'umweru n'umukara, afite imvi z'uruyenzi afite indangururamajwi akaba ari kuvuga imbere y'abandi.

Ababyeyi bageze mu zabukuru, bari gukora uturimo tworoheje, harimo nko kuboha ibiseke ndetse n'ibindi, bikabafasha gutekereza neza ndetse no kugira mu mutwe hatekereza kure.

Abantu babiri b'abakecuru bari gukora siporo gusa bagaragara neza nk'aho batarakura bisa nk'aho bakiri bato ,ni byiza gukora siporo kuko zifasha umuntu kugira ubuzima bwiza.

Abasaza bageze mu zabukuru, bari kwirira ibiryo bari kubirya biteretse ku meza, bari kurebana mu maso umusaza arishimye, umukecuru na we bisa nkaho yegera umusaza bakaba bari kuganira biririra agasose.

Umusaza ugeze mu za bukuru ukuze rwose ufite imvi z'uruyenzi ndetse wamwita umusheshakanguhe, bakaba bari kumwitaho bari kumumanura gake gake, bagiye kumwicaza ku gitanda.

Abakecuru bambaye imyenda y'umweru n'umukara bamwe bakaba bambaye udupfukamunwa, bari gukora ibimeze nk'udusiporo kugira ngo babashe gutekereza neza.

Umuntu ugeze mu za bukuru w'umukecuru wambaye ikanzu y'umuhondo ufite imisatsi myiza isutse ndetse akaba yambaye amarinete afite ibinini arimo kubishyira mu ntoki agiye kubinywa.

Umurwayi w'umusaza ufite imyaka myinshi ageze mu zabukuru ndetse afite imvi z'uruyenzi, arararamye ari kureba muganga ndetse muganga na we ari kumusekera, bisa nkaho amuganiriza.

Twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira, ni amagambo yanditse ku cyapa gifashwe n'abantu babiri, umwe ni umugabo ari iruhande rw'iburyo, undi ni umugore ari iruhande rw'ibumoso, imbere ye hari intebe y'umukara.

Umuganga ari imbere y'abandi bantu, akaba afite indangururamajwi bisa nk'aho ari kubahugura ku bintu bigiye bitandukanye bishingiye ku buzima bwa muntu.

Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende. Indwara y'ubushita bw'inkende, yadutse mu mwaka washize ndetse ikaba yaragize uruhare mu guhitana ubuzima bw'abaturage batari bakeya hirya no hino ku Isi.

Ababyeyi bateze ibitambaro, bakenyeye ibitenge biganjemo abafite imyenda y'amabara y'umutuku ndetse harimo n'abateze ingofero z'ubudodo bakaba bicaye ku gasima ko kwa muganga aho bategereje serivisi z'ubuvuzi.

HPR ni amagambo ahinnye y'icyongereza avuga ngo Healithy People Rwanda bisobanurwa ko ari ubuzima bw'abaturage bo mu Rwanda.

Ubuzima bukwiye guhagurukirwa by'umwihariko nta n'umwe usigaye tutibagiwe n'abana, kuko abana ni cyo gihugu cy'ejo, ni bo terambere ry'isi ry'ahazaza.

Icyapa cyanditseho amagambo, ayo magambo yanditswe mu ibara ry'umweru ariko akaba yanditse mu kabara k'iroza ndetse iki cyapa kikaba ari umukara.

Korona virusi yashegeshe isi ndetse yateye abantu ubwoba, dukwiye kuyirinda mu byukuri birakwiriye kudushyira hamwe, twese tukirinda koronavirusi, kovidi cumi n'icyenda.

Umuganga ari kwita ku murwayi, uyu murwayi ni umugore ufite imisatsi myiza wambaye agapira k'umukara ndetse bigaragara ko muganga amushyizeho igipfuko.

Abaganga baricaye bari gufasha abarwayi bagiye batandukanye, bisa nk'aho bari kubafata amaraso kuko bafashe agatoki kabo, bari kubahaho agapamba kugirango babafashe.

Abantu benshi b'abakobwa bafite icyapa ndetse bakizamuye hejuru bisa nkaho bari gushishikariza abantu kwita ku buzima bwabo ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Ibizeru biri mu mabara atandukanye ibyo bizeru bikaba byanditsemo amagambo agiye atandukanye y'icyongereza, ndetse bikaba bishishikariza abantu kwita ku buzima bwabo.

Abantu benshi batandukanye bakaba bari mu bikorwa by'ubuvuzi bigiye bitandukanye hari abaganga bari gusuzuma umurwayi ndetse hari n'abandi bari gukora ubushakashatsi.

Umugabo w'umuzungu ari imbere afite indangururamajwi ari kuganiriza abandi bantu bitabiriye inama yo kwita ku buzima.

Ukuboko kuriho ibintu by'ibiheri byatutumbye, bisa nk'aho ari indwara y'ubushita bw'inkende, iyi ndwara ni mbi cyane irica ndetse ni icyorezo cyadutse mu mwaka ushize.

Abaganga bari kwita ku murwayi ndetse umurwayi aryamishijwe kuri burangakari, bisa nkaho agize ikibazo gitunguranye, bagiye kumuha ubuvuzi bw'ibanze cyangwa se ubutabazi.

Twirinde kanseri, kanseri ni indwara ikomeje kwibasira abatari bake ndetse umubyibuho ukabije cyangwa se umubyibuho mutoya, ni indwara zikunze gutuma kanseri yiyongera.

Abantu benshi, bicaye mu nama, bakaba biganjemo abambaye imyenda y'umweru ndetse hari n'abandi batatu bicaye imbere, iruhande rw'ameza, bambaye imyenda irimo udupira tw'umukara. Bose bari mu nama yabahuje, yita ku buzima.

Abantu benshi cyane bari mu nama baricaye ndetse aho bicaye hasi hari itapi y'umutuku irimo utuntu tw'utudomo ndetse hateretse ameza imbere yabo atatsweho igitambaro cyiza, muri abo bantu harimo n'umuyisilamu bisa nk'aho ari shehe.

RBC: Rwanda Biomedical centre, Healthy Peaple, Wealth Nation. Aya ni amagambo asobanura ko, iki kigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abaturage b'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bahuriye mu nama, iyo nama ikaba ari iy'umunsi wahariwe kwita ku kurwanya virusi itera sida ndetse bikaba byarabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane byarabereye mu Rwanda.

Icyapa kiriho akantu kameze nk'agatambaro ariko gakozwe mu buryo budizayininze ukuntu gacishijemo nk'umusaraba ariko uzinze, hakaba harimo amagambo y'Icyongereza agaragaza inama mu kwirinda virusi itera sida.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho, byashyizwe mu nyubako yo kwa muganga mu rwego rwo kugira ngo byifashishwe mu kuvura indwara zigiye zitandukanye no gusuzuma ibibazo by'abarwayi.

Inyubako nziza cyane y'igorofa, ifite ibirahure byiza bibonerana, ikaba yubatse ahantu heza cyane, ni inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Centre de Sante Gisenyi, iki ni Ikigonderabuzima cya gisenyi, kikaba cyita ku barwayi bagiye batandukanye, baturutse hirya no hino mu Murenge wa Gisenyi.

Mu nyubako yo kwa muganga izwi nk'ibitaro, irimo ibitanda byinshi byiza bishashe neza byifashishwa mu kwakira abarwayi barembye.

Resebusiyo ni ahazwi nk'ahantu hakirirwa abaje bagana aho hantu, hakaba hari inyubako yo kwa muganga ndetse buri nyubako yose ikaba igira ahantu hakirirwa abarwayi cyangwa abagana ibitaro.

Inyubako nziza y'ibitaro byo kwa muganga ikaba ari inyubako iparitsemo imodoka nziza, hakaba hari utujaride turimo indabo ndetse n'imikindo ibiri minini yakuze.

Mu bitaro byo kwa muganga hari ibitanda byiza biryamishwamo abarwayi, buri gitanda kiba gifite inzitiramubu ishobora kwifashishwa kugira ngo hirindwe malariya, abaganga bagiye batandukanye bita ku barwayi uko bishoboka.

Mu bitaro byo kwa muganga hari igitanda cyiza kigezweho ndetse gifite amapine ku buryo kucyimura bitagorana ahubwo ari ugusunika aho guterura.

Ubuvuzi ni bwiza cyane ndetse bukwiye gukorerwa ahantu hasa neza hasukuye, hari inzu nziza zigezweho zifashishwa mu bitaro byo kwa muganga cyangwa mu maforumasi.

Umuntu w'umuganga ari ku cyapa bigaragara ko ari ifoto ye bahashyize, gusa icyo cyapa cyanditseho amagambo y'Icyongereza vijoni miti fashoni.

Inyubako yo kwa muganga, ifite ububiko bw'imiti, hakaba hari imiti igiye itandukanye, ifungiye mu macupa no mu bikarito, kugira ngo itangirika ndetse imbere hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ritandukanye.

Kigina health center, ni ibitaro byiza cyane ndetse bikaba bitanga serivise z'ubuvuzi bugiye butandukanye, imbere ku marembo yaho hari umubyeyi uri guhogenza umwana bisa nkaho yaje kumuvuza.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ifite inkuta zifite amabara asa nk'ivu; hirya hateretse agatajeri kariho ikintu cy'umuhondo ndetse gateretse ku meza, munsi y'ameza hari ikindi kibogisi cy'umuhondo; hino gatoya hari igitanda kiriho utuntu tubiri barambikaho amaboko.

Umuganga wambaye itabuririya y'umweru ari mu icyumba cyagenewe gusuzumiramo abarwayi binyuze mu ikoranabuhanga ikizwi nko gusikana umurwayi.

Umurwayi aryamye ku gitanda aragaramye afashe ku gitanda, yambaye isaha, muganga ari hejuru ku gitanda, yambaye ga z'umweru ari kwita kuri uwo murwayi, uwo murwayi ni umusore.

Abantu bari kugenda mu gahanda k'amapave ndetse ako gahanda iruhande rwako hari jaride nziza irimo ibimera by'indabo nziza cyane, hakurya hari insina ndetse izo nsina zegereye inzu isakaje amabati atukura.

Sangwa polyclinic ni inyubako uzasanga i Butare mu karere ka Huye aho uzayibona ahantu ugana ku bitaro bya kaminuza, ikaba icuruza imiti itandukanye.

Mu bitaro byo kwa muganga, hari igitanda kiryamishijweho umurwayi ndetse uwo murwayi ariyoroshe yimiramije. Mu by'ukuri hari umuganga uri gushyashyana agenda amwitaho, inyuma ye hirya hari abandi baganga babiri bari guhinguka.

Inyubako nziza yo kwa muganga ikaba yubakishijwe amatafari ahiye iyi nyubako ikaba ishakakaje amabati yenda gutukura gusa, akaba ari ibara ry'igitaka cy'inombe.

Mu bitaro byo kwa muganga, imbere aho abarwayi basuzumirwa, hari ibikoresho byinshi, hari ibitanda umuntu yicaraho anegamiye icyarimwe, hari ameza ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abaganga barasana uwari urembye agiye gupfa akongera akaba muzima, umurwayi aryamye mu bitanda byo kwa muganga, akaba amanitseho salomo ndetse bigaragara ko ari kongererwa amaraso.

Ubuvuzi ni bwiza cyane kuko butuma abantu benshi baticwa n'indwara, ni yo mpamvu habaho ibitaro, mu bitaro byo kwa muganga hari ibitanda bigiye bitandukanye ndetse buri gitanda kiryamishwaho umurwayi umwe.

Abasaza bageze mu za bukuru bakeneye kwitabwaho kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza ndetse batekereze neza, umusaza wambaye ishati yo muibara risa umutuku ari kwitabwaho n'umuganga amugira inama, amupima n'indwara.

Kwa muganga hari ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, hari igitanda kigezweho umurwayi aryamaho agaramye cyangwa yubamye kugira ngo ibyuma by'ikoranabuhanga bimusuzume bimenye ikibazo afite.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru bicaye ahantu ku meza, umwe aregamye ari muri telefone imbere yabo gatoya hari abandi baganga babiri bisa nk'aho bari kugenda ndetse inyuma yabo hari abandi batatu bicaye, imbere yabo hari ameza y'umweru.

Ikirere cyiza cy'ubururu ndetse kikaba kiri kwerekana munsi ahantu hari ibitaro byiza cyane, bifite amabati y'umutuku byubakishijwe amatafari ahiye, bifite ubusitani bwiza burimo uturabo tutarakura cyane.

Inyubako nziza cyane zigezweho, ziri mu mabara y'umweru ndetse iruhande rw'aho haparitse amamodoka menshi y'amavatiri, hashinze idarapo ry'u Rwanda, hari icyapa imbere hino gato mu kajaride kinini, kigaragaza ko ari ibitaro bya Kaminuza y'u Rwanda.

Abantu benshi b'abarwayi batonze umurongo bahagurutse ku ntebe bari bicayemo ndetse mugangagenda yakira umwe umwe amusuzuma amubwira ikibazo cye, hari umurwayi ufite ubumuga uri mu kagare wegereye aho abaganga bari kugira ngo bamufashe mbere yitahire.

Ubuvuzi bumaze gutera imbere cyane cyane ubwo mu Rwanda, kwa muganga mu bitaro haba hari ibitanda byiza, bishashe neza, bifite ibikoresho byose umurwayi yakwifashisha kugira ngo aryame neza.

Inyubako nziza yo kwa muganga, ifite amakaro hasi ashashe meza arabagirana, ku bikuta hasize irangi ry'umweru. Hejuru muri parafo, hamanitse akantu k'umuhondo, sinzi ibyo kavuga.

Umurwayi yicaye ku gitanda akaba ari kureba muganga mu maso, umuganga ari kumuganiriza anamupima, hirya inyuma y'umuganga hari undi murwayi uri kurebera.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amarangi meza cyane agiye atandukanye. Imbere yayo hari abarwayi bagiye bahagaze bategereje serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nziza yo kwa muganga yubatswe neza mu buryo bw'igorofa ndetse ikaba iteganye n'indi nyubako yubatse mu buryo budizayininze ikaba isize ibara ry'ivu ndetse hari akayira kazamuka k'amapave kinjira muri izi nyubako zombi.

Inyubako yo kwa muganga, ishakaje amabati meza cyane ndetse hasi hakaba harimo amakaro. Ikaba igeretse inshuro imwe gusa. Imbere yayo, hari akantu k'akabingaro kari mu ibara ry'umuhondo. Kanditseho ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi.

Inyubako yo kwa muganga irimo icyuma cy'ikoranabuhanga kifashishwa mu gupima ndetse no gusuzuma uko umuntu ubuzima bwe buhagaze.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye harimo intebe ndetse n'utumeza mu by'ukuri ibi bikoresho byifashishwa mu kwakira abarwayi.

Inyubako nziza igezweho yubatswe neza cyane, ikaba ifite imiryango ikinguye ndetse mo imbere hari kugaragara imiti bigaragara ko ari inyubako icuruza ibigendanye n'iby'imiti.

Inyubako nziza yo kwa muganga, imbere yayo hari ibyuma bisa nk'aho ikoze ikimeze nk'uruzitiro ndetse ibyuma biri mu mabara y'umukara, iyo nyubako ikaba ifite utujaride twiza cyane.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bw'igorofa, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse ku murongo umwe ziri mu mabara y'umweru ndetse hakaba hari n'izindi ziparitse imbere, nanone ku ruhushya rumwe ziri mu mabara y'umukara hagati yazo harimo umuntu wambaye umupira utukura.

Abaganga babiri baregeranye, umwe yifashe mu mifuka y'itaburiya undi afashe ikintu cy'igisanduku yagipfunduye azamura umupfundikizo uri kureba hejuru bose bari kureba mo imbere.

Ababyeyi batatu, barimo umukecuru ukuze, bakaba umwe ari umuganga, ari kwita kuri abo bari imbere ye bakuze, by'umwihariko akaba afite akantu yaziritse, umugore umwe ufite imisatsi isutse izirikiye inyuma.

Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikomeje gufata indi ntera, gusa mu Rwanda bamaze kubona ibyo, bashyizeho ikigo gishinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina by'umwihariko irikorerwa abana batoya b'abangavu.

Inyubako nziza yo kwa muganga, yanditseho karayeze, bisa nk'aho ari inyubako itanga ubuvuzi ku bafite ibibazo byo mu mutwe, imbere yayo hari imikindo iri mu tujaride ndetse n'indabo ngufiya, hari n'amavase ateretse imbere y'umuryango, harimo indabo.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga ibikuta byayo bisize irange ry'ivu, hasi hari amakaro asashe agiye aforomye mu buryo butandukanye, hejuru hari parafo nziza irimo uturongo dutambitse n'utumanutse, mu nguni hegetse ivase irimo ikimera k'indabo.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye n'intebe zo kwicaramo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye by'ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi bugezweho.

Ibitaro byiza cyane byo kwa muganga biri mu nyubako isa neza. Hari uduhanda tunyuranyuranamo. Hari utujaride twiza cyane turimo indabo.

Imyicundago y'abana, ni uburyo bukoreshwa mu gukora siporo ku bana batoya, aho baza bakicundaga maze bikabafasha gutekereza neza.

Kabgayi hospital. Ni ibitaro bya Kabgayi, ibi bitaro biherereye mu Karere ka Muhanga, bizwiho kuvura ibijyanye n'amaso.

Inyubako yo kwa muganga ifite ubusitani bwiza burimo indabo ziteyemo, hashinzwemo icyapa kirekire cyanditseho amagambo ndetse ari mu rurimi rw'icyongereza.

Igitanda cyiza cyane giteye mu buryo budasanzwe, giteretse munsi y'icyuma gifite ibintu bibiri bimeze nka kamera binini, aho byifashishwa mu gusuzuma umurwayi uryamye kuri icyo gitanda.

Imashini nziza cyane igezweho, iri kwa muganga mu bitaro, ikaba icometseho insinga nyinshi z'umweru, ziyizanamo umuriro w'amashanyarazi, hino gato imbere hari ikimeze nka mudasobwa, gifite insakazamashusho hejuru.

Ibikoresho by'imigozi y'umweru bikoresha ikoranabuhanga, biriho udupapuro tubizirikiyeho, bigaragara ko ari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi buteye imbere.

Mu nyubako yo kwa muganga mo imbere hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye bicomacometse ndetse hakaba hari n'ibindi byinshi bifasha abaganga kuvura abarwayi.

Inyubako nziza yo kwa muganga yubatswe n'amatafari ndetse ifite amadirishya menshi, imbere yayo hari umuhanda uzamuka ndetse hari ikintu kimeze nk'ikibuga, mbese hari akajaride, hashinze idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bagera muri batanu barimo umugabo umwe urimo hagati n'abandi bagore babiri kuri buri ruhande, bose bari imbere y'inyubako yo kwa muganga bari gufata ifoto y'urwibutso.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru ari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda, uyu murwayi akaba arembye kuko imbere hari abandi bantu bifashe ku kumiro, bisa nk'aho uyu murwayi yavunitse ukuguru.

Mu bitaro byo kwa muganga hari igitanda kiziza cyane ariko gitoya, umurwayi aryamaho hejuru yacyo hari ibyuma by'ikoranabuha biteganye na cyo, bigaragara ko umurwayi akiryamaho ibyo byuma bikamusuzuma.

Igikarito cy'umweru cyanditse amagambo y'Icyongereza agiye akizengurutseho ndetse gifunguye, hari ibice bibiri biri kureba hejuru. Hino yacyo hari akandi kantu kameze ukuntu, kanditseho ijambo ry'Icyongereza.

Umugabo ari kunywa amazi meza y'urubogobogo, akaba amaze gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo afashe umubiri we gukora neza ndetse yirinde indwara zigiye zitandukanye.

Amazi meza cyane y'urubogobogo, ari gusukwa mu kirahuri ndetse bisa nkaho bari kutwigisha kunywa amazi meza asukuye ndetse anatetse, bibaye ngombwa ko tuyanywa.

Abasore bagera muri bane bari gukora imyitozo, bari kwirukanka. Bisa nk'aho ari ibintu byiza cyane ,kuko bari gufasha imibiri yabo gukora neza no kuyirinda indwara zitandukanye.

Ibikoresho byinshi bitandukanye muganga yifashisha, birimo imiti ndetse amacupa n'ibindi byinshi, aho byifashishwa igihe cyose abikeneye.

Umuntu wambaye nimero makumyabiri na rimwe, byanditswe ku mupira, bisa nkaho ari mu nyubako yagenewe imyitozo ngororamubiri, izwi nka jiminaziyamu, hakaba hari abandi hirya ye, bigaragara ko bari muri siporo zitandukanye.

Burangakari ni ingobyi yifashishwa kwa muganga bakura umurwayi mu modoka izwi nk'imbangukiragutabara bamujyana mu bitaro.

Umugabo ari kunywa amazi meza, yambaye agapira k'umweru, afite ekuteri nazo z'umweru, zikaba ziri mu matwi, bisa nk'aho ari kumva utuziki, ariko amaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru ari gukora siporo ndetse akaba yazamuye amaboko mu kirere, aho ari kugenda agorora ingingo ze zitandukanye.

Gukora siporo ni ibintu byiza cyane kuko bifasha umubiri w'umuntu kugororoka, bikaturinda indwara zitandukanye. Ushobora gukora siporo zigiye zitandukanye, gusa ni byiza kugisha inama muganga.

Umukobwa mwiza cyane nubwo atari kugaragara, yambaye bande mu mutwe, afite imisatsi myiza isutse, ikaba ifungiye inyuma irereta mu mugongo, yazamuye amaboko hejuru mu kirere ndetse ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Igihe cyose umuntu amaze gukora siporo atakaza imbaraga nyinshi ndetse n'amasukari, bityo ni byiza kurya imbuto n'imboga zigiye zitandukanye nka: amaronji, inkeri, pome n'izindi.

Umuntu w'igitsina gabo bigaragara ko ari gukora siporo aricaye ukuguru kwe gusa nk'uguhinnye ariko bisa nkaho afite na tatuwaje kuri uko kuguru, yambaye isaha ku kuboko ndetse yambaye agasengeri k'umukara.

Muganga akoresha uburyo bwose kugira ngo abashe kumenya ikibazo umurwayi afite, mu by'ukuri turabona ikintu cy'icyuma cy'ikoranabuhanga hejuru kiriho televiziyo, bigaragara ko harimo umuntu uri kuvuga.

Igikoresho cya muganga cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye ndetse no mu bintu byinshi cyane muganga ahereza umurwayi.

Mu by'ukuri ubuvuzi ni bwiza cyane, bufasha abaturage kwirinda indwara zitandukanye ndetse bakavurwa bagakira, bagasubira mu mirimo isanzwe.

Umukobwa wambaye ekuteri mu matwi z'umweru, akaba yambaye agasengeri k'umuhondo akaba yazamuye amaboko ye hejuru mu kirere ndetse akaba yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo w'umuzungu yibereye mu dusiporo ariko amaze kudukora, yicaye ku masekariye azamuka agenda ajya mu yindi nyubako, ari kunywa amazi meza, afite terefone mu ntoki, yambaye ekuteri, ari kumva utuziki.

Imiti y'ibanze iri mu macupa ndetse no mu mavase no mu birahure. Ikaba ari imiti ya muganga yitwaza agiye gutanga ubutabazi bw'ibanze.

Gukora imyitozo ngorora mubiri ni byiza; gusa abenshi bakunze guhitamo gukina umupira w'amaguru kugira ngo bafashe ubuzima bwabo, kuko iyo uwukina ibice by'umubiri byose birakora.

Umuganga yatunze ikintu cy'icyuma, sinzi niba nacyita mayikorosikope. Agitunze umwana, uwo mwana arararamye bakimutunze mu isura. Bisa nk'aho bari kumupima.

Ni byiza cyane kurya ibiryo bikungahaye kuri vitamine, aha ngaha baratwereka amafoto y'amacunga, indimu, avoka, umuneke, inanasi, ndetse n'ibinini.

Muganga afashe umuntu w'umusore ndetse uyu musore bigaragara yuko yambaye umupira cyangwa se agasengeri k'umutuku kanditseho nimero. Izi nimero zikaba zigaragaza ko yari ari mu irushanwa none akaba avunitse.

Abantu b'abasore b'urubyiruko bambaye imyenda iriho agasaraba gatukura, ndetse imbere yabo hari umwe w'umusore ufite ijire y'umutuku ya kuruwa ruje akaba ari kuryamisha umurwayi.

Siporo ni ingirakamaro kuko ifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, buzira umuze ndetse bigafasha ubwonko gutekereza neza hirindwa siteresi.

Imbangukiragutabara ni imodoka izwiho gufasha abarwayi barembye, ibakura hirya no hino mu ngo z'abaturage cyangwa se ahabereye impanuka, ibajyana ku bitaro kugira ngo bitabweho.

Umuganga ari kugorora umusore, uwo musore bisa nk'aho ari umukinnyi w'umupira mu byukuri ni byiza ko dufashwa n'abaganga gukora siporo.

Umuntu wambaye agapira kumukara ari kunywa amazi, aya mazi ni meza ari mu gacupa k'umweru keza kabugenewe, ndetse akaba ari umusore uvuye muri siporo.

Umugabo ari gukora siporo, yarambuye ukuguru ukundi kurahinnye ndetse yamanuye amaboko ye ayakoza ku kuguru kurambuye, ari kugorora imitsi ndetse n'ingingo zigiye zitandukanye.

Umuganga ari kuvura umurwayi, uyu murwayi bisa nk'aho yavunitse ubwo yakoraga siporo akaba ari kumuzirika ikintu kimeze nka bande ku kaguru.

Ibyuma bibiri bizamuye bimeze nk'inkoni za zindi z'abasaza z'iki gihe zigezweho bikaba bifite utunu tw'udushumi ndetse kuri utwo ducumi hariho utuntu turerembaho tumeze nk'urugata ndetse tw'umukara, izi nkoni zikaba zisa nk'aho ziberamye.

Umukobwa ari kunywa amazi, yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakabutura, gusa umukondo we uragaragara, ari mu dusiporo, ari kwinanura akora ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye.

Abaganga batanga ubuvuzi bw'ibanze, gusa ni byiza cyane kuko hari igihe umuntu ahura n'ikibazo gikomeye cyane, iyo yahuriye ahari imbaga nyamwinshi cyangwa se ari mu kibuga.

Burankari ni ingobyi y'abarwaryi yifashishwa n'abaganga cyangwa abakozi ba croix rouge igihe batabara umurwayi bamukuye mu ngobyi cyangwa se mu mbangukiragutabara bamujyanye mu bitaro.

Umugabo yasobekeranyije amaboko ye ndetse yambaye isengeri, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo afashe ubuzima bwe ndetse n'umubiri we gukora neza yirinde indwara zitandukanye.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga rigezweho, cyifashishwa kwa muganga, mu buvuzi bugiye butandukanye, kikaba gikoresha umuriro w'amashanyarazi, ndetse kikaba ari igikoresho cyiza.

Imashini irimo isaha, iyo saha iri kubara saa yine zuzuye n'amasegonda agera muri abiri cyangwa atanagezeho.

Agakoresho gafite uburyo gateyemo kambarwa ku kuguru kifashishwa umuntu akora imyitozo ngororamubiri, nka siporo zo kwiruka cyangwa gukina umupira.

Umuntu w'igitsina gabo yifashe mu ivi ariko yambaye isaha nziza y'umukara ifite akantu k'umweru kazengurutse ndetse yambaye ikabutura y'umukara bisa nkaho yavunitse ari gukora siporo.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu gaciye amaboko, akaba yambaye n'akabande ku kuboko kw'iburyo, ari kunywa amazi akoresheje ukuboko kw'ibumoso ndetse yambaye ekuteri n'ubwo yazizingiye mu izosi.

Amazi meza y'urubogobogo ari gusukwa mu gikombe cyiza, cyogeje neza cy'umweru ndetse biragaragara ko badushishikariza kunywa amazi meza, asukuye.

Igihe ukora imyitozo ngororamubiri ni byiza gukina imikino itandukanye irimo nko gukina umupira w'amaguru, uwa volleyball, rugubi, basketball ndetse no kudunda utudenesi.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara ufite akantu gasa icyatsi kibisi ku kuboko kwe, yicaye amaze gukora siporo none ari kunywa amazi meza, ayo mazi agafasha umubiri we kongera kugarura ubuyanjama.

Uruziga rushushanyijeho imirasire y'izuba ndetse iyo mirasire y'izuba ikaba irimo abantu babiri bashushanyijemo, bimeze nk'aho bari kuzunguzanya barwana, umwe yambaye ibintu by'umweru, undi yambaye iby'ubururu, hasi handitseho ijambo Rwanda n'ibindi.

Umukobwa bisa nkaho anezewe nubwo ari gusa nk'umwenyura, yicaye hasi arambuye ukuguru kumwe ndetse ukundi gusa nk'uguhinnye, akaba yamanuye ukuboko afata ku ino ry'igikumwe bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ufite umupira mu ntoki umupira ni uwo gukina wanditseho kane ndetse bikaba bitugaragariza ko ari byiza gukora siporo zigiye zitandukanye zirimo no gukina umupira.

Siporo ni ingirakamaro. Gusa igihe umaze gukora siporo, ni byiza kurya ibiryo bikungahaye kuri vitamini nk'imbuto ndetse n'imboga, inyanya, amatunda, igitunguru, amagi. Ibyo byose ni ibyagufa.

Umugabo aryamye ku gitanda ndetse hari abantu babiri, bari kumu kora kora, bisa nkaho bari kumukorera masaje, mu by'ukuri ibi bikaba bifasha mu kugorora imitsi ndetse n'ingingo z'umubiri.

Forever vision, uyu ni umuryango cyangwa se ikigo gikora ubuvuzi bwa gakondo, kikaba cyemewe ndetse gifite ubuziranenge.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bukwiye guhagurukirwa kuko bufasha mu buzima bw'abantu bwa buri munsi.

Amacupa ateretse iruhande rw'igipapuro kiri mu mabara y'umutuku n'umweru ndetse cyandikishijweho amagambo ari mu mabara y'umweru ndetse n'andi ari mu mabara y'umukara.

Uducupa dutambitse mu kintu kimeze nk'igikarito ndetse tukaba turimo imiti ya gakondo, iyi miti yose ikaba yaragiye ikomoka ku bimera ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bwo kwizerwa muri iki gihe kuko bwateye imbere. Mu by'ukuri hari amacupa yabugenewe abikwamo imiti yatunganyijwe, ndetse n'ibikarito byabugenewe kugira ngo imiti itangirika.

Forever Lite Ultra iyi ni imiti ikorwa n'iki kigo cyitwa gutya, ikaba ari imiti ya gakondo yifashishwa mu buvuzi butandukanye.

Icupa ry'umweru ryanditseho amagambo y'icyongereza, foreva garike rayimu, akaba ari amagambo asobanura ko harimo umuti wa Gakondo.

Umucaca ni ikimera gikura kirandaranda hasi ndetse kikaba gikunze kwifashishwa mu buvuzi bwa gakondo. Icyo cyatsi gishushanyije ndetse kirambitse ahantu ku kintu gisa nk'umukara, harambitseho icyuma.

Kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo imiti igomba kugenzurwa na Rwanda FDA, ibi bigaragaza ko ubuvuzi bwa gakondo bwateye imbere.

Ubuvuzi bwa gakondo bwateye imbere nubwo nta nganda zihari zifashishwa mu gutunganya imiti ikoreshwa muri ubu buvuzi, bakoresha isekuru, bagasoroma imiti ikomoka ku bimera by'ibyatsi bitandukanye, bakayisekura bakayitunganya.

Imiti myinshi cyane isigaye ibaho ikurwa mu bimera, gusa ibikurwamo mu buryo bwa gihanga cyangwa se bw'iterambere, ariko hari n'indi miti ikorwa mu buryo bwa gakondo igatunganywa igashyirwa mu macupa.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo ndetse ubu bwateye imbere kuko usanga buvura n'indwara zimwe na zimwe zananiranye n'abaganga.

Ikimera kizamutse hejuru mu kirere, kikaba gifite ibimeze nk'ibirabo by'umweru, kiri ahantu ku gasozi kuko hirya hari ibindi byatsi, biri kugaragara bihinguka.

Ibihingwa ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo ndetse harimo ibyo natwe tuzi twakoresha, twavuga nka tungurusumu ndetse n'ibindi.

Ubuvuzi bwa gakondo bwo mu Rwanda ni ubuvuzi bwahereye kera bukomeye gusa ntibwahabwaga agaciro nko muri iyi minsi ariko akaba ari ubuvuzi bwizewe.

Amacupa abiri akaba ari mu ibara ry'umuhondo, apfundikijwe imipfundikizo y'umukara, iruhande rwayo hateretse ikintu kimeze nk'igikombe ndetse hejuru hari ibara ry'ubururu, ryanditseho akajambo mu nguni ngo Forever.

Tungurusumu ni igihingwa cyiza cyane kiribwa ndetse kikifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye by'umwihariko kikaba gikoreshwa mu buryo bwa gakondo, iki bavuga ko kigira uruhare mu kugabanya umuvuduko w'amaraso.

Amacupa ane, rimwe ni rirerire n'iryicyuma ripfundikijwe umupfundikizo w'umweru, andi atatu ni magufi apfundikijwe umupfundikizo nayo y'umweru, ndetse hari ibimera bishushanyije iruhande, bisigura ko ari umuti wa gakondo uri muri ayo macupa.

Imiti gakondo igira uruhare mu kuvura indwara zitandukanye ndetse abantu benshi bamaze gusobanukirwa neza ko umuntu ashobora kujya kwivuza ku baganga ba gakondo agakira.

Umuti wa gakondo upfunyitswe neza mu kintu cy'igicupa, hashushanyijeho ibintu ukozemo, ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

umuravumba ni kimwe mu bimera byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo kikaba kizwiho kuvura indwara zirimo nk'inkorora, umutwe, ndetse n'izindi zitandukanye.

Bari kutwereka ibimera bigiye bitandukanye ndetse bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ibi bimera bikaba bikwiye kubungabungwa ndetse bikitabwaho.

Ibimera byatunganyijwe bigashyirwa mu mavase, bikaba bigiye kuzahingwa ahantu hihariye, kugira ngo bijye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ndetse no kuyibika neza, birimo amacupa ndetse n'amajerekani, ibikarito n'amasashe.

Umugabo bigaragara ko asa n'ukuze ari gusoroma ibyatsi ndetse ari ahantu mu gihuru mu ishyamba ry'inzitane bigaragara ko ari gushaka imiti azifashisha mu buvuzi bwe bwa gakondo.

Amacupa atatu maremare, rimwe rishushanyijeho igikakarubamba ndetse hariho akantu k'agasimba kameze nk'akanyugunyugu kari kuguruka, hirya yaho hari andi macupa atatu rimwe ry'umuhondo n'abiri y'umweru, imbere gato hari igishushanyo cy'igikakarubamba, iyo yose ni imiti ya gakondo.

Amacupa abiri y'umuhondo ateganye apfundikiye neza cyane, ndetse iruhande rwayo hakaba hari ishusho ry'amacupa abiri, ndetse icupa rimwe ryanditseho f cumi na gatanu, iruhande na none hari ifoto y'umuntu ushushanyije ku gikarito giteretse, naho handitse f cumi na gatanu.

Ibimera byinshi cyane byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo ndetse bikaba ari ibimera biba mu mashyamba, mu bihuru ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye.

Amacupa menshi y'umweru aterekanze ndetse n'irindi rimwe ry'umuhondo, akaba arimo imiti ya gakondo yifashishwa mu buvuzi bwa Kinyarwanda.

Ibimeragiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zikomeye zirimo nka za diyabete, ibimera bikwiye gusigasirwa ndetse bikagirwa.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ndetse ubu twita ubwa Kinyarwanda, gusa birasoromwa bigasekurwa cyangwa bigasebwa hanyuma bikumishwa bikagirwamo umuti.

Umusave ni kimwe mu bimera bikunze kwifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, gusa ni ikimera kidakunze kuboneka ahantu aho ariho hose, kuko bisaba kujya mu mashyamba no mu bihuru kugira ngo ukibone.

Atatu rimwe ry'umuhondo, irindi ry'umweru, ndetse na rigenzi ryaryo ry'umweru, hashushanyije ibintu bikomoka ku bimera bikaba bisatuye bigaragara ko ahari imiti ya gakondo.

Igikakarubamba kivamo imiti igiye itandukanye, yatunganyijwe mu buryo bwose. Hari iyatunganyijwe ishyirwa mu macupa, mu ijerekani, mu bikarito cyangwa se mu bundi buryo.

Ibimera byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi aho basoroma ibyo bimera bakabisekura hanyuma bakabivangavanga n'ibindi bigiye bitandukanye, hanyuma bigatanga umuti wa gakondo uvura indwara nyinshi.

Icupa ry'umweru ryanditseho foreva royo jeri hashushanyijeho uruyuki bisa nkaho batubwira ko umuti wa gakondo uri muri iryo cupa uturuka ku buki.

Urusobe rw'ibinyabuzima bigiye bitandukanye, ndetse n'ibimera nibyo byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, hakoreshejwe uburyo bwa gakondo, baratwereka amafoto agera muri atandatu y'ibimera, ibyumye, ibitukura, iby'iroza, ndetse n'iby'umuhondo, byifashishwa muri ubu buvuzi.

Ibiti bishushanyije, ndetse biteretseho ibikarito, ibyo bikarito birimo imiti ya gakondo. Iyo miti yifashishwa mu buvuzi butandukanye.

Imbuto zitandukanye ndetse zirimo inanasi imineke ndetse n'ibintu bimeze nk'indabo, zose zikaba zifashishwa mu gukora imiti ya gakondo.

Icupa ryiza cyane ry'umweru ripfundikiye neza n'umufuniko w'umweru, iryo cupa ryanditseho amagambo y'Icyongereza forever rolay jelly, hasi hari ibara ry'iroze ryandikishijwemo amagambo y'umweru, hari n'ibintu by'umuhondo bimeze nk'imbuto iruhande rwaryo.

Amacupa atandukanye arimo imiti ifungiyemo ndetse bikaba bigaragara ko ibitswe neza, iyi yose ni imiti ya gakondo yifashishwa n'abavuzi ba kinyarwanda.

Uruhererekane rw'imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ni imiti ifungiye mu macupa ndetse ayo macupa harimo amagufi afite imipfundikizo y'umweru n'andi maremare apfundikiye neza.

Icupa ry'umweru ryanditseho ijambo rinini, ryanditse mu mabara y'umweru ariko ahantu h'ubururu, handitswe ngo foreva. Hariho ikinyuguti cya ka n'akana gashushanyijeho. Handitseho n'utundi tugambo dutoya tw'umukara tutagaragara. Ni umuti wa gakondo uri muri iri cupa.

Umusave ni ikimera gikunze kuboneka ahantu henshi mu Rwanda, ndetse abaturage hafi ya bose baraki, iki kimera cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo mu ndwara zigiye zitandukanye.

Umusave ni kimwe mu bimera bikunze kwifashishwa mu kuvura abarwayi, ndetse kikaba gikoreshwa n'abaganga ba gakondo, aho bagisoroma, bakagisekura, bakagitunganya, hanyuma kikazifashishwa muri ubwo buvuzi.

Icyapa kiriho ifoto y'umuntu wegereye iyindi foto iriho amacupa agerekeranyije, hasi hari n'ayandi macupa ateretse ashushanyijeho utuntu tw'udusimba bigaragara ko ari imiti ya gakondo bari kwamamaza.